Umukecuru ukuze wambaye igitenge ndetse n'agapira kari mu turongo tw'umweru n'umukara, yambaye n'ingofero yaje kuvoma amazi meza ku ivomero kugirango abone uko ajya guteka.

Ababyeyi baje kuvoma amazi kw’ivomero rusange mu rwego rwo kugira ngo babone amazi meza yo gutekesha ndetse no gukoresha imirimo itandukanye yo mu rugo.

Muganga utera urushinge agomba kubanza kwambara neza udupfukantoki, kugira hato ataba yakwandura indwara ziturutse ku murwayi, igihe amutera urushinge.

Abana batoya benshi bambaye inifomo, baragirwa inama n'abaganga ndetse n'abandi bakozi bashinzwe iby'ubuzima kugira ngo abana bazakure bazi kwita ku buzima bwabo.

Umwana mutoya w'umukobwa, ari gukaraba amazi meza ndetse urabona ko yatojwe gukaraba intoki imbere n'inyuma.

Abana bari kuvoma amazi mu tubido dutoya ndetse hakaba hari umuntu mukuru uri kubapombera kugira ngo babone amazi meza.

Urubyiruko rutandukanye, rurimo abasore n'inkumi, bose bambaye ingofero z'umweru, bafite icyapa cyanditseho amagambo avuga ngo; umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri usuzumishe, turandure kanseri y'inkondo y'umura.

Abagore babiri barimo uwambaye isengeri y'umweru n'undi ukenyeye igitenge bari gupomba amazi, mu gihe hari undi ufite indobo uri kuvoma amazi kuri robine.

Umwana mutoya wiyiziye kuri robine kuvoma amazi, ndetse hakaba hari n'amajererekani ateretse iruhande rwe akeneye kuvomerwamo amazi.

Abaganga bambaye amabaji ndetse bambaye amataburiya y'umweru, bose bahuriye hamwe ndetse bize ku buzima butandukanye bw'abarwayi.

Abaganga bateranye bose bari kwita ku barwayi ndetse bari kubaha imiti itandukanye, hari n'abari gutebwa inshinge ndetse n'abandi bari gufatwa amaraso ngo bayasuzume.

Abakobwa n'abahungu b'abanyeshuri bambaye iniforume, ndetse bakaba bari gufata ifunguro rya saa sita ririmo: ibishyiyimbo, akawunga ndetse n'imboga.

Itsinda ry'abantu benshi bitabiriye gukingiza abana babo, bose bakaba baje gukingiza urukingo rw'imyaka ibiri, ndetse abana babo bakaba bari butahe bose bakingiwe.

Abajyanama b'ubuzima barimo abagabo ndetse n'abagore bambaye neza, bakenyeye ibitenge ndetse n'abagabo bambaye amakote baje kwiga ku buzima.

Abana benshi baje kuvoma amazi ku mugezi, aho bazanye amajerekani ndetse n'utuvido.

Inyubako yo kwa muganga, ni inyubako nziza iba ifite, ndetse amatuwalete meza agezweho mu rwego rwo kwirinda umwanda ndetse no mu rwego rwo kugira ngo bimakaze isuku.

Abana benshi bahuriye hamwe bambaye imipira y'ubururu yanditse inyuma ku mugongo, ndetse n'abambaye imyenda y'umuhondo, baganirijwe ku bigendanye no kwita ku buzima bwabo bwa buri munsi.

Abantu bateraniye hamwe, bahagaze ndetse impande yabo hakaba hari inzu yubakishije amakaro isakaje amabati atukura ifite inkingi zubabakishije amatafari agiye, impande yaho hari ihema cyangwa ishitingi risa umweru.

Umubyeyi uteruye umwana ufite ifishi mu ntoki, yaje gukingiza umwana we, ndetse inyuma ye hari abandi babyeyi benshi, na bo bategereje iyi serivise.

Abantu benshi cyane bahuriye mu gikorwa cyo kwigisha abana ndetse no kubafasha gusobanukirwa neza ibigendanye n'ubuzima.

Umwana mutoya bari kumukorera ijerekani, irimo amazi ipfundikije umwanana ndetse akaba ari ihohoterwa rikomeye cyane.

Abaganga bahuye mu nama yigaga ku buryo bushya bwo kwita ku barwayi ndetse no kumenya ubuzima bwabo.

Umwana w'umukobwa, wikoreye ijerekani iriho icyapa cya unisefu, ndetse n'umubyeyi uri kumufasha iyo jerekani.

Abantu bose abakuru, abatoya, abana bose basabwa kwita ku buzima bwabo ndetse bakirinda indwara zitandukanye.

Abana batoya batatu barakina n'amazi, aho igihombo cyaturitse ndetse bakaba bitoheje cyane, bikaba bigoye kumenya uko basaga.

Umuganga ari guha umuti umwana kandi umwana ateruwe na nyina ndetse urabona ko umwana ari kunywa umuti neza.

Imbaga y'abaturage bahuriye ku kagari baje kwitabira inama yigaga ku buzima bakaba bambaye imyenda y'amabara atandukanye nk'umutuku, umweru, umukara n'ayandi.

Imashini zongera umwuka abantu bahumeka, ni imashini ziboneka kwa muganga kandi zizwiho gufasha abarwayi barembye bakeneye umwuka.

Mutoya wambaye ikanzu y'umutuku ari gukaraba kuri robine ndetse akaba ari kureba abandi bana uburyo bamwitegereza, maze agaseka.

Ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima bw'umwana UNCEF rishishikariza ababyeyi ndetse n'abandi bantu bose kwita ku buzima bw'abana batoya.

Mubyeyi nyuma yo kubyara isuzumishije kandi usuzumishe uruhinja mu masaha makumyabiri n'ane umaze kubyara, nyuma y'iminsi itatu hagati y'iminsi irindwi na cumi n'ine na nyuma y'ibyumweru byinshi.

Abagore batandukanye bahuriye ku ivomero rusange baje kuvoma amazi meza, bambaye imyenda irimo ibitenge ndetse bateze n'ibitambaro.

Ikigo cy'umuryango w'abibumbye cyita ku buzima ndetse n'imibereho y'abana, gisishikariza abantu bose guhagurukira kurwanya covide cumi n'icyenda(19) ndetse no kwimakaza isuku muri rusange.

Imbaga y'abantu benshi cyane, barimo abambaye imyenda y'umukara, umutuku, umweru ndetse abakecuru bateze ibitambaro bitwaje n'inkoni, bose bakaba baje ku Kagari gusa serivisi z'ubuzima.

Abana bose bagomba kwitabwaho, kugira ngo bagire icyizere cy'ubuzima bw'ejo hazaza, ndetse bazabashe kugera ku bintu byinshi bitandukanye, mu buzima bwabo.

Umubyeyi ari kuri kandagirukarabe ari gukaraba, bigaragara ko avuye mu bwiherero. Ni byiza cyane rwose igihe cyose uvuye mu bwiherero gukaraba n'amazi meza n'isabune.

Umuganga, afite indangururamajwi, ahagaze imbere y'abaturage, ndetse afite igitabo mu ntoki ze, yambaye itaburiya y'umweru ari kubaganiriza.

Abakobwa bateze amaboko bari kubyina bishimira umunsi mwiza wo kwita ku buzima ndetse urabona ko bambaye bibereye ijisho.

Ku ivomero rusange ryahuriweho n'abantu benshi barimo umubyeyi ufite umwana ndetse n'abandi bakobwa babiri, bari gupomba amazi kugira ngo abantu bavome.

Umubyeyi wikoreye indobo irimo amazi ndetse akaba afite n'indi ndobo mu ntoki y'umuhondo nayo irimo amazi.

Ni byiza kwigisha umwana gukaraba igihe cyose avuye ku musarani ndetse iruhande rw'umusarani hagomba guhora kandagirukarabe.

Abantu barimo abagabo abagore bose bakaba bari imbere y'ikigo Nderabuzima aho bitabiriye inama yigaga kubuzima.

Ababyeyi batatu barimo uri kuvoma ndetse n'abandi babiri bari kumupombera amazi, bambaye ibitenge ndetse bakenyeye n'ibitambaro mu mutwe.

Abana bambaye inifomo ndetse n'abaganga babari inyuma, bose bari mu gikorwa cyo kwita ku buzima bw'umwana, cyabereye mu nama yahuje abana n'abayobozi.

Umwana mutoya ari kuvoma amazi kuri robine akoresheje intoki yarangiza akayanywa, ni byiza ko twirinda kunywa amazi yanduye.

Umwana mutoya wambaye agapira k'umutuku nijipo yubururu ari kuvoma amazi meza kuri rubine rusange kugirango ayanywe kandi nibyiza kunywa amazi meza.

Abana bari kuvoma amazi mu mugezi utemba, kugira ngo bayajyane mu rugo bayakoreshe, ariko ni byiza gukoresha amazi meza.

Ababyeyi bagirwa inama na muganga z'uburyo bakwiye kwita ku buzima bwabo, ndetse n'abo batwite cyangwa abo babyaye.

Imbaga y'abantu benshi cyane batandukanye barimo: abasaza, abakecuru ndetse bambaye imyenda y'ubururu n'umukara baje kwakira akana gatoya.

Umusaza ugeze mu za bukuru yaje kwivomera amazi meza kuri robine kugira ngo nawe abashe gukoresha amazi atamuteza indwara.

Abaganga b'inzobere n'abaforomo bose bahuriye hamwe, biga ku buryo bushya bwo gutanga imiti na serivisi inoze ku barwayi.

Abaforomo bitabiriye amahugurwa yigaga ku kibazo cy'ubuzima, bose bahavuye bafashe ingamba zo kujya bafasha abarwayi gusobanukirwa ibigendanye n'ubuzima.

Muganga yigisha umubyeyi, akoresheje ifoto iriho abana kugira ngo amwereke uko agomba kwita ku bana be.

Imbaga y'ababyeyi benshi bambaye ibitenge, bashokoje imisatsi, ndetse bafite udukapu mu ntoki, bitabiriye ubukangurambaga bwo kwita ku buzima.

Abana batoya bazanye utuvido kuvoma amazi kuri rubine y'ipombo ariko umuntu mukuru ahanyuze arabapombera baravoma barataha.

Muganga afite impapuro ebyiri, rumwe ari kuruha umurwayi urundi na rwo ararufite ariko hirya ye hari umurwayi uri kurumusaba, bigaragara ko ari kubaha impapuro zibereka uburyo bakwiye gufata ubuzima bwabo.

Umuganga afite urushinge, umubyeyi ateru uyu mwana, umwana arunamye ari kureba hasi, uyu muganga agiye kumutera urushinge, kugira ngo amufashe kugira ubudahangarwa bw'umubiri.

Abana babiri baje kuvoma. Umwe ateze amazi, undi ari inyuma ari gupomba amazi kugira ngo aze. Kubera ko bari kuvoma kuri robine y'ipombo.

Mu by'ukuri kwa muganga haba hari ibikoresho bitandukanye ,ndetse haba hari ama mashini y'ubwoko bwinshi cyane, ayongere umwuka abantu ndetse n'andi yifashishwa mu buvuzi butandukanye.

Abana baje ku iriba kudaha amazi bazanye amajerekani abiri, ndetse aya mazi ni mabi cyane ku buryo atagakwiye gukoreshwa.

Abantu bateraniye hamwe, imbere hari amafoto y'abari kubakoresha inama. Inyuma yabo hari abantu bari mu tuziga bagiye batandukanye bigaragara ko ari bo bari gufatiraho ingero zigiye zitandukanye mu bijyanye n'iyo nama barimo.

Ababyeyi babiri bambaye neza bakenyeye ibitenge, harimo umwe uteze igitambaro n'undi umwe ufite umusatsi mwiza, bose baje ku ivome rusange baje kuvoma amazi meza.

Ababyeyi bagirwa inama y'uburyo bakwita ku bana babo ndetse bakabaha imfashabere mu gihe gikwiriye kugirango babashe gukura neza.

Muganga ushinzwe kwita ku barwayi bafite ibibazo by'indwara zo mu mutwe, agira inama abantu bose, igihe babonye umuntu ufite imyitwarire idasanzwe, bakaba bamufasha kugera kwa muganga.

Hagaragajwe uburyo bushya bwo kwita ku bafite ibibazo byo mu mutwe, aho bifashisha imodoka igenda izenguruka ahantu hose, ku buryo ufite ikibazo wese ahita afashwa.

Ubuzima bwo mu mutwe bukwiye kwitabwaho ndetse buri muntu wese akamenya uburyo indwara zo mu mutwe zifata kuko uburwayi bwo mu mutwe si ugusara gusa.

Umubyeyi ufite abana babiri uteze igitambaro akaba afite imbere ye ibiryo agiye kugaburira abana gusa akaba afite ikibazo cy'imitekerereze.

Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe abenshi dukunze kwita umusazi n'umuntu ukunze kurangwa n'imyitwarire idahwitse.

Umuganga uvura indwara zo mu mutwe by'umwihariko ugira inama abantu bafite ikibazo cy'izi ndwara kuko zikunze kwibasira abantu benshi.

Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe arangwa n'umwanda ndetse no kwambara ibyenda byashanyaguritse ndetse akenshi usanga akora ibintu bidasanzwe.

Inama yahuje imbaga nyamwinshi y'abantu barimo abagabo, abagore ndetse n'abasore, bambaye imyenda y'umukara n'umweru biga ku kibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe.

Umuganga afite igitabo iki gitabo cyanditsemo ibintu bishobora gufasha kwirinda kurwara indwara zo mu mutwe ndetse uyu muganga ashinzwe ubuzima bwo mu mutwe.

Umuganda w'inzobere mu bigendanye n'ubuzima bwo mu mutwe agira inama abantu bose guhagurukira ikibazo cyo mu mutwe ndetse akifuza ko abantu bose bafite ibibazo byo mutwe baganirizwa.

Abitabiriye amahugurwa yo kumva ibigendanye n'ubuzima bwo mu mutwe, baragirwa inama yo kujya basuzuma neza ibitekerezo by'umuntu kugira ngo bamufashe, igihe yaba afite ikibazo cyo mu mutwe.

Abajyanama b'ubuzima ndetse n'abaganga bose bitabiriye amahugurwa, bose bize ku kwita ku buzima bwo mu mutwe ndetse no kuganiriza abafite ibibazo by'indwara zo mu mutwe.

Ubuzima bwo mu mutwe, n'ubuzima bugomba kwitabwaho ku buryo ababyeyi bahamagarwa bakagirwa inama zitandukanye.

Umubyeyi wicaye ku gatebe, wambaye igitenge ariko uhangayitse, bisa nk'aho afite ikibazo cyo mu mutwe.

Muganga ubizobereye ubifitemo ubumenyi ndetse ufite impamyabushobozi niwe wenyine wemerewe gutanga serivisi zo kuvura ubuzima bwo mu mutwe.

Ubuzima bwo mu mutwe ni ubuzima bukwiye kwitabwaho ndetse abaganga bakagira uruhare mu kuganiriza abantu benshi kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Abaganga bavura indwara zo mu mutwe bose bahuriye hamwe bambaye amabaji, ndetse bakaba baje kuganiriza abarwayi bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Ubuzima bwo mu mutwe bugomba kwitabwaho ku isi yose ndetse kugira ngo abantu babashe kumenya ingaruka z'indwara zo mu mutwe.

Abantu bafite indwara zo mu mutwe ndetse bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, ni byiza ko bagirwa inama bakaganirizwa bakitabwaho.

Umujyanama w'ubuzima agira uruhare mu kugira inama abaturage bo mu mudugudu, kugira ngo bite ku buzima bwo mu mutwe.

Umusore mwiza wambaye agapira k'umuhondo ufite ubwanwa ariko akaba afite amenyo meza cyane kubera ko ayoza buri gihe akoresheje umuti mwiza ndetse n'uburoso bwabugenewe.

Abaganga bose bitabiriye amahugurwa yo kwita ku buzima bwo mu mutwe, bose bahawe ibipapuro byamamaza kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe, agira imyitwarire idasanzwe nko gutoragura ibyamvagara ndetse no kwambara ibishwambagara, akenshi akaba atajya yogosha umusatsi we.

Umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe akenshi usanga yarihebye, ndetse wamureba ukabona sinzi ibitekerezo ari gutekereza; ukabona ko umutima we uri kure.

Umukecuru wambaye urunigi mu ijosi, akaba ateze igitambaro cy'umweru, akaba afite ikibazo cyo mu mutwe.

Inama yabereye ku kigo nderabuzima yahuje abajyanama b'ubu ubuzima ndetse abaforomo n'abaforomokazi bose bitabiriye.

Muganga aganiriza ndetse akagira inama abafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe ndetse ni byiza ko natwe ubwacu tuganiriza abo tubona bafite ibibazo byo mu mutwe.

Abaganga bazobereye mu bigendanye no kuvura indwara z'umutwe, bagira inama abantu benshi bafite icyo kibazo ndetse bakabaha imiti yabugenewe.

Ababyeyi bambaye ibitenge ndetse bakaba bateze ibitambaro bari gufasha umusaza kugira ngo bamwiteho bitewe nuko arwaye akaguru.

Kwita ku buzima bwo mu mutwe ni byiza cyane kubera ko bifasha umuntu wese kwirinda indwara zitandukanye zirimo nk'ubusazi ndetse n'izindi.

Inama ndetse n'amahugurwa yahuje imbaga nyamwinshi y'abajyanama b'ubuzima bigishijwe uburyo bushya bwo kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe benshi bakunze kwita umusazi agira imyitwarire idasanzwe ku buryo rimwe na rimwe hari igihe akora ibintu bidasanzwe.

Igihe umwana mutoya arwaye amenyo bikaba ngombwa ko akurwamo ni byiza kumujyana kwa muganga wabugenewe uzubereye iby'amenyo kugira ngo abashe kuyamukuramo bitamuteje izindi ngaruka.

Umusore ufite isume y'umweru ku rutugu, witegura kujya muri dushe ariko akabanza gufata urudodo agasukura amenyo ye, kugira ngo hatagira umwanda usigaramo.

Abaganga babiri babizobereye ndetse babyigiye, bambaye udupfukamunwa, amarinete, uturindantoki, bari gukura umubyeyi iryinyo kubera ko ryagize ikibazo cyo kubora.

Gucukura neza amenyo biyarinda umwanda ndetse bikayarinda kurwara indwara zitandukanye zifata amenyo bityo umuntu agakomeza kugira ubuzima bwiza bwo mu kanwa.

Igihe usukura amenyo ni ngombwa gukoresha akagozi, kugirango ukuremo imyanda cyangwa ibiryo biba byasigaye hagati y'amenyo.

Ubuvuzi bw'amenyo by'umwihariko gukura amenyo, bikorwa na muganga wihariye uzobereye mu by'amenyo, kuko aho iryinyo ryavuye mbese igihanga, ni we umenya uko ahagenza.

Abana batoya b'abanyeshuri iyo bamaze kurya ku ishuri bafata korogate ndetse n'uburoso bakoza amenyo yabo kugira ngo birinde umwanda w'amenyo.

Umukobwa mwiza ufite imisatsi ndetse ufite uburoso ari koza amenyo, yambaye agasengeri k'umweru, akaba ari umukobwa usobanutse.

Ibikoresho bitandukanye byitabwaho mu kuvura umurwayi w'amenyo by'umwihariko igihe cyo kuyakura birimo intebe nziza zigezweho yicaramo.

Ni byiza koza amenyo yawe ukoresheje korogate n'uburoso kugira ngo wirinde umwanda, bityo bitaguteza indwara.

Koza amenyo ukoresheje uburyo butandukanye bikurinda kurwara indwara zifata amenyo ndetse bikagufasha no kugira isuku ndetse n'amenyo asa neza.

Ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga rigezweho byo kwa muganga byifashishwa mu gukura amenyo, ni byo byonyine bifite ubushobozi mu gihe umurwayi akomerewe.

Abanyeshuri bari mu ishuri, bose bari guseka, bari kumwenyura kuko bafite amenyo meza. Aya menyo meza bayagize kubera ko bakoresha umuti wa korogate, bayoza bayagirira isuku ndetse urabona ko bahawe na korogate n'uburoso.

Kwa muganga hari imashini zigezweho z'ikoranabuhanga zifasha abarwayi ndetse zikanafasha abaganga gusuzuma neza ibibazo by'abarwayi.

Mu bitaro byo kwa muganga aho umurwayi ufite ibibazo by'amenyo, aba ari; ni ahantu heza cyane, hari intebe ituma yicara neza bakamusuzuma nta nkomyi.

Umurwayi ari kwa muganga, akaba yifashe mu menyo, ari kwereka muganga irynyo rimurya, muganga nawe yiteguye gutanga ubuvuzi, ni byiza ko tujya kwisuzumisha ndetse tukajyana amenyo kwa muganga igihe yagize ikibazo.

Ni byiza kujya kwa muganga igihe cyose ukeneye ubuvuzi bw'amenyo, kubera ko uramutse utagiyeyo ushobora guhura n'ingaruka zikomeye.

Gukoresha urudodo cyangwa akagozi mu rwego rwo gusukura amenyo birafasha cyane, ku buryo ibiryo biba byasigaye mu menyo hagati bivamo neza.

Muganga wambaye uturindantoki neza ufite ibikoresho byabugenewe niwe wenyine wemerewe gukura iryinyo umwana mutoya cyangwa undi muntu wese.

Umubyeyi yigisha umwana we koza amenyo akoresheje kologate ndetse n'uburoso bwiza ndetse akamwereka uko bikorwa kugira ngo abikore neza.

Amenyo ni igice cy'ingenzi kifashishwa mu gihe cyo kurya ndetse akaba agomba kugirirwa isuku itandukanye, harimo nko kuyoza ndetse no gukoresha ubundi buryo kugira ngo tuyarinde indwara.

Ni byiza gusukura amenyo ukoresheje uburoso ndetse n'umuti wabugenewe uzwi nka korogate mu rwego rwo gufata neza ubuzima bw'amenyo.

Umuganga arikubwira umwana ndetse amwereka uburyo yoza amenyo akoresheje uburoso bwiza na korogate.

Ni byiza gukoresha urudodo cyangwa akagozi, igihe usukura amenyo yawe mu rwego rwo gukuramo imyanda yose iba yasigaye hagati y'amenyo.

Mu rwego rwo kwita ku barwayi bafite indwara z'amenyo, hari ibikoresho bitandukanye kwa muganga bigezweho, harimo nk'intebe abarwayi bicaraho kugira ngo basuzumwe.

Mwarimu ari kwigisha umwana w'umunyeshuri uburyo agomba koza amenyo ye, akoresheje korogate ndetse n'uburoso umwarimu yifashishije ikibumbano cy'amenyo.

Kwita ku buzima bwo mu kanwa ni ingenzi cyane, by'umwihariko igihe ukoresha amenyo y'amakorano kugira ngo ubashe kwirinda umwanda wagera ku menyo yawe asanzwe.

Umugabo n'umugore bahagararanye bafatanye ku rutugu, umugabo ameze nk'ushaje kuko imisatsi ye yabaye imvi, umugore we yambaye amadarubindi ari guseka ndetse yambaye n'agakote k'agakoboyi, inyuma yabo hari ikintu kimeze nk'ibati, gisa umukara.

Abakecuru n'abasaza bageze mu zabukuru, bitabwaho, bakaganirizwa, ndetse bakagirwa inama, z'uburyo bitwara mu buzima bwabo bwa buri munsi, kugira ngo bakomeze kuramba.

Ababyeyi bakuze; umusaza n'umukecuru, bafite imvi z'uruyenzi; ariko bakaba bafata imiti kugira ngo ibafashe kwirinda indwara zitandukanye.

Abakecuru bageze mu za bukuru bafite imvi z'uruyenzi n'abo bashobora gukoresha telefone bareba utuntu twabashimisha.

Umukecuru n'umusaza bafite imvi z'uruyenzi bari gusoma ku gapapuro uburyo bwo gufata imiti bandikiwe na muganga ndetse iruhande rwabo hateretse ikirahuri cy'amazi bari kwifashisha banywa imiti.

Abakuze bifashwa gukora siporo mu rwego rwo kugira ngo bafate ubuzima bwabo neza ndetse bakomeze kuramba imyaka myinshi, bityo ni ngombwa gufasha abakuze gukora siporo.

Umuganga arimo arereka umurwayi w'umusaza wambaye agapira k'umukara, uburyo azajya afata imiti kugira ngo ibashe kumufasha.

Muganga aganiriza umusaza ugeze mu za bukuru, akamugira inama z'uburyo yakifata ndetse n'uburyo yakitwara kugira ngo ubuzima bwe bumere neza.

Abageze mu za bukuru bitabwaho mu buryo butandukanye, bagatozwa gukora udusiporo tworoheje kugira ngo bafashe umubiri wabo gukomeza gukomera no kugira ubudahangarwa.

Umusaza ugeze mu za bukuru nawe we akaba ari gukora siporo, ndetse hari umuganga umugira inama amwereka uburyo bakora siporo kugira ngo bimufashe m'ubuzima bwe bwa buri munsi.

Abakecuru n'abasaza bageze mu za bukuru bafite imvi z'uruyenzi ndetse bambaye imyitero, baje mu nama yabahuje kugira ngo baganirizwe ku buzima bwabo

Kwita ku bakuze ni ikintu cy'ingenzi cyane kubaganiriza ndetse no kubabwira uburyo bitwara kugira ngo bakomeze kugira icyizere cy'ejo hazaza.

Umuganga wita ku mukecuru ugendera mu kagare k'abafite ubumuga, amuganiriza neza ndetse akamwumvisha ko icyizere cy'ubuzima kigihari.

Ababyeyi bakuze, bari gusoroma icyayi, barishimye, bitaweho baraseka neza, bambaye ibitenge, ndetse bateze ibitambaro, mumitwe yabo.

Umusaza ukuze yaje kwa muganga kugisha inama ku bigendanye n'uburyo yakwitwara kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umukecuru n'umusaza bageze mu zabukuru, bari gukora siporo, bakiruka kugira ngo babashe gukomeza kugira ubuzima bwiza kandi birinde indwara zitandukanye.

Ababyeyi bakuze bageze mu zabukuru basabwa gukora ibintu bitandukanye bituma ubwonko bwabo bubasha gukangukaharimo; nko gukina igisoro ndetse n'utundi dukino tworoheje.

Abageze mu zabukuru bitabwaho mu buryo butandukanye, ndetse bagafashwa gukora siporo, kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kugenda neza, kandi be kurwaragurika.

Umusaza uri gusoma igitabo akaba ari umusaza ufite imvi z'uruyenzi ndetse yambaye amarinete kugira ngo abashe kubona inyuguti.

Abasaza n'abakecuru bageze mu zabukuru bakenyeye imyitero kandi bambaye imishanana bafite n'inkoni nziza bitabiriye ihuriro ry'abasaza n'abakecuru.

Gukora siporo ni ingenzi ndetse abakuze bagirwa inama kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza bakomeze kubaho bishimye.

Abakecuru bageze mu za bukuru bakenyeye imishanana bitwaje utubando, bafite imvi z'uruyenzi, bavuye mu nama yagenewe abakuze ku rwego rwo kugira ngo babashe kwita ku buzima bwabo.

Ni byiza kwita ku mwana ndetse n'umubyeyi ukuze kugira ngo bimufashe mu buzima bwe bwa buri munsi, kugira ngo abashe gutekereza neza.

Ibiribwa bitandukanye umuntu ukuze agomba kurya kugira ngo agire ubuzima bwiza birimo amandazi ndetse n'ibindi bitandukanye.

Abasaza bakuze n'abakecuru harimo n'abambaye ingofero z'abayisilamu baje kugirwa inama ku myitwarire y'ubuzima bwabo.

Umubyeyi ukora siporo ngororamubiri na we agira ubuzima bwiza ndetse birakwiye ko ababyeyi bose bimakaza siporo.

Umukecuru ugeze mu za bukuru, ufite mu myaka nka za mirongo inani, akaba afite imvi z'uruyenzi, yambaye amarinete ari kunywa ibinini, afite ikirahuri mu ntoki kirimo amazi.

Abakuze bitabwaho, bakagaburirwa ibiryo birimo amoko yose, harimo imboga, imbuto, ndetse n'ibindi.

Umukecuru ugeze mu za bukuru ari imbere ya muganga, muganga amuhaye ibinini bibiri, umukecuru imbere ye ku meza hateretse amazi, ayo mazi agiye kuyifashisha anywa ibinini.

Abasaza bakuze nabo bakora siporo zitandukanye, mu rwego rwo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima buzira umuze.

Abaganga batandukanye bagira inama abantu bageze mu za bukuru ko bagomba gukora siporo nko kwiruka kuko ari siporo yoroheje, bityo bikabafasha gukomeza kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Abakecuru n'abasaza bageze mu za bukuru bashobora gusoma ibitabo bitandukanye mu rwego rwo gukomeza guhugura ubwonko bwabo kugirango butibagirwa.

Abaturage barimo abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko bitabiriye inama y'umudugudu ndetse bakaba bambaye neza imyenda itandukanye irimo; iy'umutuku, iy'umweru ndetse n'iyindi myinshi.

Umukecuru ugeze mu za bukuru witwaje akabando ari kumwe n'umusore mwiza cyane w'umuganga umugira inama y'uburyo yakwiyitaho kugira ngo akomeze amere neza.

Umusaza ugeze mu za bukuru w'imvi z'uruyenzi wambaye amarinete n'agapira keza cyane k'amaboko magufi ari gukora siporo aho ari guterura utwuma dutoya tugendanye n'ubushobozi bwe.

Abantu babiri, umugabo n'umugore. Bari kumwe n'umukecuru. Umugabo bafashe gasahani, umukecuru afashe utuyiko tubiri, ari kugenda avanaho ibyo kurya bigiye bitandukanye, by'imboga kugira ngo bahe umukecuru arye agubwe neza, kuko yabibarutse.

Umukecuru n'umusaza bari kurebana bose bafite ibiryo biteretse imbere yabo, bigaragara ko bitaweho rwose, ni byiza kwita ku bakuze tukabagaburira kugirango ngo bagire ubuzima bwiza.

Gahunda yo kwita ku buzima irakomeje, abaganga bakomeje kuganiriza, abaturage bababwira uburyo bakwitwara.

Ubukangurambaga bwo kwirinda kanseri y'ibere, bwakorewe mu gihugu, bwitabiriwe n'urubyiruko ndetse n'abakuze, bari bambaye imyenda myiza y'umweru n'ingofero z'umukara.

Gahunda ya leta yo gukora uburyo barwanya ndetse bakarushaho kwita ku buzima bwa buri muntu wese, bagabanya ikinyuranyo cy'abantu bahura n'indwara zikomeye.

Abantu benshi batandukanye bitabiriye gahunda yo kuganirizwa uburyo bwo kwita ku buzima bwa muntu kugira ngo yirinde indwara zitandukanye.

Umuganga ari gupfuka umugore wakomeretse ndetse hari n'abandi baganga bari kwitegereza bareba uburyo amwitaho.

Gahunda yo gushishikariza abantu bose kugabanya umuvuduko w'amaraso ndetse n'umubyibuho ukabije irakomeje, by'umwihariko bakaba babashishikariza kwirinda na kanseri.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe b'abaganga hari umurwayi uryamye ku gitanda , bose bambaye udupfukamunwa ndetse n'impuzankano ziri mu mabara y'icyatsi , uwo murwayi ararembye cyane kuko yahuriweho n'abaganga benshi.

Monkey Pox ni indwara ikomoka ku nguge, ikaba ari indwara y'icyorezo kandi kuyirinda ni ugukaraba amazi meza n'isabune ndetse ugakaraba intoki zose imbere n'inyuma.

Kuringaniza urubyaro ni gahunda imaze imyaka irenga icumi yigishwa abanyarwanda batandukanye, mu rwego rwo kugira ngo babyare abo bashoboye kurera.

Abadamu bakenyeye ibitenge bateze ibitambaro, baje muri gahunda ya leta yo kuganirizwa ku buryo bwo kwita ku buzima ndetse no kwirinda indwara zitandukanye.

Twese turasabwa gukora iyo bwabaga tugaharanira kurwanya Korona virusi kuko Korona virusi ni icyorezo kibi cyane.

Global Health Forum ni gahunda yo ku rwego rw'isi, ishinzwe gushishikariza abantu kwita ku buzima bwa muntu.

Abaganga bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'abandi bantu b'abakoranabushake, batanga ubuvuzi bw'ibanze ndetse n'ubutabazi ku murwayi ugize ikibazo cy'ihungabana.

Icyorezo cya sida cyarahagurukiwe ku rwego mpuzamahanga ndetse gahunda zo kukirwanya zarahindutse zigirwa nshyashya ku buryo hari icyizere ko kizacika.

Itsinda rigari cyane ry'abaganga b'inzobere ndetse n'abajyanama b'ubuzima batandukanye, bahuriye mu nama bambaye neza amakoti y'umukara, amakaruvati, immyenda myiza cyane y'umweru, ndetse bafata n'agafoto k'urwibutso.

Abitabiriye amahugurwa, bagiriwe inama zitandukanye mu bigendanye no kwita ku buzima bw'abo, ndetse bahabwa n'inama ku buryo bakwigisha abandi.

Ababyeyi bafite abana bagejeje igihe cyo gupimishwa bajyana abana babo kwa muganga bagapimwa hakarebwa urwego rw'imikurire yabo.

Ikigo cy'ubuzima gishishikariza abantu kwirinda indwara zitandura, nka diyabete n'umuvuduko w'amaraso.

Abaganga babiri, bose batanze ikiganiro ku buryo twakwita ku buzima, ndetse iyi gahunda akaba ari gahunda yateguwe na leta.

Gahunda ya Leta yo gushishikariza ababyeyi kwita ku bana babo ndetse no kubaha imfashabere irakomeje, aho umubyeyi agirwa inama zitandukanye z'uburyo yakwita ku mwana we.

Abarwayi bari kwa muganga, bicaye ku murongo bose, bakaba bategereje kwakirwa na muganga, bose bambaye udupfukamunwa, muganga na we yambaye agapfukamunwa.

Abantu benshi cyane bicaye bari mu nama, imbere hari abantu bicaye babarebye bigaragaza ko bari kubakoresha inama, uwafashe ijambo ni umuzungu, inyuma hari icyapa cy'icyatsi kiriho imitwe y'abantu barabakorana iyo nama uwo munsi.

Loading ni ijambo rikunze kugaragara muri sisiteme y'ikoranabuhanga igihe hari ibyo wasabwe ariko bikaba bitaranozwa neza.

Ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda gishinzwe ubuzima, minisiteri y'ubuzima mu Rwanda, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu, yashyizeho gahunda yo gutanga ubuvuzi bunoze kuri buri muntu wese.

Abaganga batandukanye bitabiriye gahunda yo kwita ku buzima bwa muntu, mu rwego rwo kwirinda indwara zitandukanye, batahanye ingamba shya.

UNICEF ikigo gishinzwe kwita ku buzima bw'abana, akaba ari ikigo cy'umuryango w'abibumbye, ni ikigo gishishikariza abana ndetse n'abakuze kwita ku buzima.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa ari gutera urushinge umurwayi ariko umurwayi afite ubwoba bwinshi cyane ndetse urabona ko yashinjirije.

Ni byiza ko buri muntu wese yita ku buzima bwe nk'uko ibigo bigenda bibivuga ndetse akaba ari ngombwa buri muntu wese ko agira uruhare mu kwita ku buzima.

Gahunda y'isi yose muri rusange yo kurwanya indwara zituruka kuri za mikorobe zitandukanye, igomba kwitabwaho na buri muntu wese utuye isi kandi ukeneye ubuzima bwiza.

Inyubako yo kwa muganga ikoze mu buryo bwiza aho buri serivisi ifite aho itangirwa bityo umurwayi ntasiragire ashaka serivisi zitandukanye.

Muganga wambaye itaburiya y'umweru ari kwita ku murwayi ndetse urabona ko umurwayi arembye, aryamye ku gitanda cyabugenewe.

Ubukangurambaga bwo kwita ku buzima bw'amaso ndetse no kuvura indwara zitandukanye zifasha zifata amaso, bwakorewe ku bitaro bitandukanye byo mu Rwanda ndetse n'ibindi.

Umuganga wambaye imyenda y'umweru akaba afite umusatsi yasutse neza, yambaye n'agapfukamunwa ari kwita ku murwayi ufite ubumuga kuko yicaye mu kagare.

Inyubako yo kwa muganga, ni inyubako nziza cyane ishinzwe kwita ku barwayi b'abana, ingimbi ndetse n'abangavu batandukanye.

Inyubako yo kwa muganga igira ibice bitandukanye ndetse ifite ikoranabuhanga rihambaye ku buryo buri murwayi wese yitabwaho.

Ijambo lodingi uzaribona inshuro nyinshi igihe uri gukoresha ikoranabuhanga nka mudasobwa ndetse na telefone, ushobora kubona iri jambo.

Mu by'ukuri ihuriro ry'abayobozi batandukanye bo mu nzego z'ubuzima, ryahuye uyu munsi kandi bunguranye ibitekerezo ku bigendanye n'uburyo bushya bwo kwita ku buzima.

Ibitaro bikuru ndetse bigezweho byo kwa muganga bigira ibitanda byiza aho buri gitanda kiba gifite umwanya mwiza wo gushyiramo umutwe ahazwi nko ku musego.

Inyubako nziza yo kwa muganga, igizwe n'amarangi meza ndetse yubakishije amatafari nyubako ifite ubusitani bwiza ndetse muri ubwo busitani hashinze idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Kabgayi ni ibitaro bikuru biherereye mu karere ka Muhanga, ndetse bikaba bizwiho kuvura cyane cyane indwara z'amaso.

Inyubako yo kwa muganga yubatse neza mu buryo bwiza cyane rwose bubereye ijisho, ifite ibyumba bitandukanye abarwayi barwariramo.

Inyubako yubatse neza rwose, itanga serivise z'ubuzima, ikaba igizwe n'imiryango itandukanye, itanga serivise z'ubuvuzi.

Farumasi ni ahantu ushobora kujya kugurira imiti wandikiwe na muganga ndetse ikagufasha, gusa ni byiza kugisha inama igihe ugiye kuhagura imiti utayandikiwe na muganga.

Laboratwari ni aho bafatira ibizamini by'abarwayi, bityo hakaba hari abarwayi bicaye bategereje ibisubizo by'ibizamini babafashe.

Inyubako yo kwa muganga iriho icyapa kigaragaza ibitaro ibyo ari byo ndetse ikaba ifite akajaride karimo indabo zitandukanye.

Mu bitaro kwa muganga, aho abarwayi baryamishwa, haba hari ibitanda bitandukanye, ndetse abaganga baba bagenda bareba uko abarwayi bameze.

Muganga aragisha inama umukozi w'irembo ndetse akamubaza uburyo serivisi z'ubuvuzi zitangirwa ku rubuga irembo.

Inyubako yo kwa muganga, ni inyubako nziza cyane ifite ubusitani, iyi nyubako ifite amarembo abantu binjiriraho ndetse ni inyubako bigaragara ko imeze neza rwose.

Abaganga bambaye iniforume, bambaye udupfukamunwa ndetse bafite amakarita abaranga azwi nk'amabaji, bari hamwe bose imbere y'ibitaro.

Igihe cyose umwana atangiye gukura, ni ngombwa kumupimisha ibiro ukamenya uko ahagaze kugira ngo ubashe kumwitaho ndetse umenye n'inama muganga aguha.

Ibitaro byiza cyane, ibitaro bifite inyubako ishakaje amabati y'ubururu, imbere yaho hari indabo nziza cyane, kandi ibi bitaro ni ibitaro bya Gihundwe, ndetse bizwiho gutanga serivisi z'ubuvuzi bwaamaso.

Muganga apfuka uwakomeretse, ndetse byaba ngombwa akamwongerera amaraso igihe yari yamushyizemo, kugira ngo abashe kongera kuba muzima.

Umubyeyi wabyaye aba ari mu bitaro byihariye ndetse agirwa inama na muganga ku buryo abasha kwita ku mwana wavutse.

Ibitaro byiza cyane bigezweho byubatswe mu mujyi ndetse byitegeye ku buryo usanga bitanga serivisi nziza.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gusuzuma umurwayi ndetse bikifashishwa no kumenya imiti itandukanye ahabwa.

Inzu yo kwa muganga irimo udushami dutandukanye, aho abakoresha ubwishingizi butandukanye bagenda banyura kugira ngo bakire serivisi bashaka.

Ububiko bw'imiti bunini buba mu nyubako yo kwa muganga, hari ibikarito bifunzemo imiti, amacupa ndetse n'ibindi byinshi cyane bikaba byose biri mu kabati kabugenewe.

Mu Rwanda ibigo by'ubuzima ni ibigo byinshi ku buryo buri murwayi wese yitabwaho neza kandi agahabwa imiti ku gihe.

Inyubako yo kwa muganga, ni inyubako ibamo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, byifashishwa n'abaganga mu kuvura abarwayi ndetse no kubafasha.

umuganga ari kwita ku murwayi urembye, uyu murwayi akaba aryamye ku gitanda cy'indembe ndetse hirya hari abandi baganga bari gukora ubushakashatsi kugira ngo barebe indwara y'uyu murwayi.

Kwa muganga hari igitanda umurwayi aryamaho ndetse hakaba ibyuma by'ikoranabuhanga, bishobora gusuzuma umurwayi, hanyuma bigafasha muganga kumenya ikibazo afite.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga, biririmo mudasobwa, ndetse n'ibindi byinshi bicometse neza bihora byiteguye gutanga serivise, igihe bibaye ngombwa byo kwa muganga, bikaba ari ibikoresho bigezweho.

Ababyeyi bateze ibitambaro ndetse biteye ibitenge bari kwa muganga aho bicaye ku gasima bategereje serivisi z'ubuvuzi.

Inyubako yo kwa muganga n' inyubako nziza cyane ndetse n'inyubako yubakwa mu buryo bwihariye kubera ko iyi nyubako itangirwamo serivisi zitandukanye z 'ubuvuzi.

Inyubako yo kwa muganga, ifite aho bakirira umurwayi ndetse hakaba hari intebe nziza umurwayi yicaraho ategereje serivise y'ubuvuzi.

Inyubako yo kwa muganga aho abantu benshi bari imbere yayo bategereje serivisi z'ubuvuzi ndetse hakabamo n'abandi binjiye imbere bari guhabwa ubuvuzi.

Inyubako yo kwa muganga nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ifite ndetse esikariye zizamuka zijya hejuru, ni inyubako itanga serivisi zitandukanye.

Inyubako yo kwa muganga, imbere yayo hari icyapa kinini kigaragaza serivise batanga n'uburyo zitangwamo ndetse hari abarwayi benshi bategereje serivise z'ubuvuzi.

Ijambo roding uzakunda kuribona kuri mudasobwa cyangwa kuri telefone, igihe winjiye muri porogaramu ugasaba serivisi ariko serivisi wasabye ikaba itari guhita iza.

Ibitaro byiza cyane byo ku rwego rugezweho byubatswe mu buryo bunogeye amaso aho buri murwayi wese abasha kubona aho yivuriza.

Umugabo wambaye ishati ya buresiyeri, wicaye ku gasima munsi y'igiti, ari kumva akayaga, mu gihe ategereje ubuvuzi kwa muganga.

Ibitaro byiza byubatse neza ndetse iruhande rwabyo hakaba hazamuye idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda, bisobanura ko ari ibitaro byo mu Rwanda.

Umuganga wambaye imyenda y'iroza ndetse ufite agapfukamunwa, yambaye n'uturindantoki ari gusuzuma umugore urwaye.

Mu bitaro kwa muganga aho indembe zijya, haba hari ibitanda byiza bikoze neza, ku buryo umurwayi ubirimo atagira ikibazo kindi kidashingiye ku burwayi bwe, rimwe na rimwe haba hari n'amashuka meza cyane.

Ikigo nderabuzima cya Kanyinya, ni ikigo nderabuzima cyiza cyane gisakaje amabati y'ubururu ndetse kigeretse inshuro ebyiri, kikaba cyita ku barwayi neza.

Inyubako yo kwamuganga igezweho, iba ari nziza ku buryo n'ufite ubumuga ugendera mu kagare abona umuhanda mwiza cyangwa akayira ko gucishamo akagare ke.

Kwa muganga mu bitaro mu nyubako zigezweho ubu haba hari ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, aho umurwayi aryamishwa ndetse icyuma kikamureba kikamenya indwara arwaye.

Kwa muganga, aho batangira imiti, abaganga batandukanye bambaye amatawuriya y'imyeru, ndetse bambaye n'uturindantoki, ni bo bashinzwe gutanga imiti.

Kwa muganga hari intebe nziza, hari imashini yifashishwa n'abaganga, mu gusuzuma ndetse no kugerageza imiti, ivura abarwayi batandukanye.

Abaganga batatu, bari mu cyumba kirimo ibyuma by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buvuzi butandukanye, by'umwihariko mu gutanga umwuka.

Abaganga batatu bambaye amataburiya asa, y'ubururu ndetse bateze utugofero twiza bakaba bose bagira inama abarwayi.

Ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge biherereye mu mujyi wa Kigali, ni ibitaro birimo inyubako zitandukanye zifite aho abarwayi barembye barwarira ndetse n'aho abarwaza baryama.

Inyubako yo kwa muganga igira ahantu heza, abantu bicara igihe bategereje ibisubizo cyangwa bategereje kubonana na muganga.

Muri sare yo kwa muganga, ahabera inama zitandukanye, habamo intebe nyinshi kandi nziza, buri muntu wese aho ashobora kwicara ndetse agatanga igitekerezo cye nta nkomyi.

Materinete ni inzu y'ababyeyi, mbese aho ababyeyi batwite babyarira cyangwa bashyirwa mu gihe bategereje kubyara.

Mu bitaro kwa muganga, habamo serivisi zitandukanye ndetse hari aho bakirira abantu cyangwa se abarwayi bashyashya baje bashaka serivise z'ubuvuzi.

Inyubako yo kwa muganga, ikaba ari inyubako nziza cyane ariko hari abarwayi benshi hanze bazengurutse bategereje kuvurwa indwara zitandukanye.

Inzu y'ababyeyi ni inzu ababyeyi bagiye kwa muganga barwaye bagiye kubyara barwariramo kugira ngo bafashwe bahabwe serivisi zihariye.

Abantu batandukanye, barimo n'umukecuru, ukenyeye umwitero, bitabiriye amahugurwa, mu nyubako yo kwa muganga.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye bifasha abaganga kuvura ndetse no kwita ku barwayi no gutanga serivise z'ubuvuzi zitandukanye.

Kwa muganga, inyubako yaho ni inyubako nziza, iba yubatse ahantu heza ku buryo umuntu ashobora kuhatembera igihe ategereje serivise y'ubuvuzi.

Igihe winjira muri porogaramu y'ikoranabuhanga ukabona ijambo rodingi utegereza gato hanyuma byamara kuza ibyo wari wasabye ugakurikizaho gukoresha serivise wasabye.

Mu bitaro byo kwa muganga, hari abarwayi barembye. Abarwayi baryamishijwe mu bitaro. Buri murwayi wese aryamye ku gitanda cye.

Mu bitaro kwa muganga, hari intebe nziza umuntu yicaraho kugira ngo abaze serivisi ashaka ndetse bikaba ari ibintu byiza cyane.

Kwa muganga, mu bitaro, haba ibitanda by'abarwayi, ariko buri murwayi wese aryama ku gitanda cye, mu rwego rwo kugira ngo bisanzure, kandi bagire ituze.

Mu nyubako y'imyidagaduro harimo ibyuma bitandukanye bifite ibiro bitandukanye umuntu wese ajyayo agaterura ibyo ashoboye mu rwego rwo gukora siporo

Inyubako nziza cyane y'ibitaro binini, ikaba ari inyubako ifite irangi ry'umweru, ishakaje amabati meza cyane ya dumuzaze kandi hari abarwayi ku rubaraza bategereje serivisi z'ubuzima.

Inyubako yo kwa muganga igezweho ndetse akaba ari inyubako y'ibitaro byita ku buzima bw'abarwaye canseri ikaba itanga serivise nziza.

Mu nyubako yo kwa muganga habonekamo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, ndetse ibyinshi muri byo kuri ubu bikaba bishingiye ku ikoranabuhanga rigezweho.

Kwa muganga haba ama etageri ariho ububiko bw'imiti itandukanye ku buryo umuganga aba azi ngo uyu muti ubitse mu kahe gasanduku.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga rigezweho biba kwa muganga bigenda byihutisha ubuvuzi ndetse bigatanga ubuvuzi buhamye.

Umuganga uri gukoresha ibyuma by'ikoranabuhanga kugira ngo asuzume indwara umurwayi arwaye ndetse amenye imiti agomba kumuha.

Igitanda kiryamishwaho abarwayi kwa muganga aho haba hari mudasobwa, iruhande rwaho igenda ikontorora uko umurwayi yitabwaho.

Umuganga yita ku burwayi uri mu bitaro ndetse akamuganiriza, buri kanya aba amenya amakuru ye kugira ngo abashe kumufasha.

Ikoranabuhanga rigezweho kwa muganga, mu nyubako nyinshi z'ibitaro, haba harimo ibyuma bishobora gufasha umuganga kumenya neza ikibazo umurwayi afite.

Umurwayi urimo serumu urwariye kwa muganga, aryamishijwe mu gitanda cyiza cyabugenewe.

Materinete ni inzu y'ababyeyi, ikaba ari inzu ababyeyi babyariramo ndetse akaba nta wundi muntu wemerewe kuyijyamo usibye umubyeyi utwite cyangwa ugiye kubyara.

Inyubako igezweho y'ibitaro, ikaba ari inyubako ifite utujaride twiza, ku buryo harimo utuyira tugenda dutambuka, tugenda duca muri iyo jaride.

Mu bitaro kwa muganga hari ibitanda byinshi byagenewe abarwayi barembye, muri ibyo bitanda byose harimo umurwayi umwe, uwo murwayi aryamye ku gitanda cye.

Kwa muganga hari abarwayi benshi gusa batonze umurongo kugira ngo hagende havurwa umwe umwe, ariko haje umurwayi ufite ubumuga ugendera mu kagare bityo ni ngombwa kumubanza imbere.

Ibitaro bya Shyira ni ibitaro byo ku rwego rw'Akarere ndetse akaba ari ibitaro bizwiho kuvura indwara zitandukanye zirimo n'ibyorezo.

Inyubako y'ibitaro. Inyubako isakaje amabati meza ikaba iriho imireko ndetse hari ikigega gifata amazi ayivuyeho hari ubusitani bwiza burimo indabo.

Umuganga agenda atembera mu nyubako, areba ibibazo abarwayi bafite kugira ngo abashe kubafasha.

Mu bitaro kwa muganga abarwayi baryamishwa ku bitanda byiza biriho amashuka y'umweru ndetse buri murwayi aryama ku gitanda cye akitabwaho mu buryo bwihariye.

Kwa muganga, abaganga bita ku murwayi bakamuganiriza neza, bandika mu gitabo, bumva ikibazo afite ndetse bagashaka imiti y'uburwayi bw'uwo murwayi.

Mu bitaro byo kwa muganga bigezweho bifite inyubako igeretse gatatu ndetse ikaba ari inyubako ya etage nziza aho hari irembo imodoka zinjiramo zikanasohokeramo.

Inyubako yo kwa muganga ni inyubako nziza cyane igira utuyira dutandukanye tugenda tujya mu byumba bitangirwamo serivise ndetse hanze hakaba hari jaride nziza irimo indabo.

Icyapa kiri mu mabara y'ubururu, cyandikishijeho amagambo asa umweru, handitseho ngo "Regirative injegisheni ini sipotsi medesine." Akaba ari uburyo bwo guteza imbere ubuvuzi.

Umukobwa mwiza wambaye ipantaro y'umukara, isengeri y'umukara, akaba afite imisatsi myiza, ari gukora siporo yinanura azamura amaboko yongera ayamanura.

Nyuma yo gukora siporo ni byiza kurya imbuto zitandukanye zirimo pome, indimu, amaronji, imineke ndetse n'izindi nyinshi mu rwego rwo kugira ngo ufashe umubiri wawe kugarura imbaraga watakaje mu gihe wakoraga siporo.

Gukora siporo ngororamubiri bifasha umubiri gukomera, ndetse bifasha ubwonko gutekereza neza by'umwihariko igihe cyose ufite umwanya, jya ukora siporo

Igihe ukora siporo ni ngombwa gukurikiza inama ya muganga kugira ngo ubuzima bwawe burusheho kumera neza ndetse ukazikora mu buryo bwiza.

Agakoresho kitwa sigisi paka mu ndimi z'amahanga kagufasha gukuraho inda mu gihe gitoya, kagura ibihumbi ijana na makumyabiri by'Amanyarwanda kandi karafasha cyane.

Gukora siporo zitandukanye zirimo gusimbuka ndetse n'izindi bifasha umubiri wacu kumera neza, ndetse bigafasha amagufwa gukomera by'umwihariko birinda indwara zitandukanye.

Umuntu wakoraga siporo yavunitse akaba yavunitse ivi, muganga ari kumwitaho ndetse ari gusuzuma neza ikibazo yagize muri iri vi.

Umuntu umaze gukora siporo arya ibyubaka umubiri birimo amagi ndetse akarya n'ibindi birinda indwara nk'imboga ndetse n'imbuto nk'inanasi.

Kwa muganga rimwe na rimwe bagutegeka gukora siporo kugira ngo ufashe ubuzima bwawe kandi hari ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye byagufasha.

Ibikoresho bitandukanye bibikwa, bikoreshwa kwa muganga biba bibitswe ahabugenewe, ku buryo buri gikoresho cyose kiba ukwacyo mu rwego rwo gufasha abaganga.

Kwa muganga har' ibikoresho by'ikoranabuhanga ritandukanye, byifashishwa mu gukurikirana no gusuzuma neza ibibazo abarwayi bafite.

Umusore uri kunywa amazi nyuma yo gukora siporo, kugira ngo aya mazi afashe impyiko ze kuyungurura amaraso no gukora neza ndetse agire ubuzima bwiza.

Imbangukiragutabara yifashishwa mu kuzana abarwayi ibakuye mu bice bitandukanye, ibazana ku bitaro, kugira ngo bitabweho, ndetse bahabwe ubuvuzi bwihuse.

Igihe umaze gukora siporo ni byiza kurya ibiryo bikungahaye kuri vitamini, ndetse n'imyunyu ngugu harimo amagi, imineke, ndetse n'izindi mbuto zitandukanye.

Agakoresho kigoronzoye gakoreshwa kwa muganga mu buvuzi butandukanye ndetse kakaba gakoreshwa n'umuganga uzobereye uzi kugakoresha ndetse wabihuguriwe.

Muganga asuzuma neza uko umutima w'umuntu utera, umwihariko kugirango amufashe kumenya siporo azajya akora ndetse n'urwego azajya agarukiraho.

Kwa muganga haba ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga rigezweho, byifashishwa mu gupima abarwayi no kumenya neza ibibazo byabo.

Abakuze nabo bashobora gukora siporo zitandukanye kugira ngo babashe kwita ku buzima bwabo ndetse biririnde indwara zitandukanye, bityo ni byiza gukora siporo babanje kugisha inama muganga.

Umusore uri muri siporo ngororamubiri wambaye impeta nziza, aho afata amaguru ye akagenda ayazamura hejuru yongera ayamanura kugira ngo afashe imitsi gukora neza.

Umusore wambaye ekuteri uri kumva akaziki, akaba ari muri siporo ngororamubiri aho agenda amanuka yongera azamuka kugira ngo bimufashe kugorora imitsi.

Kwa muganga mu bitaro bigezweho hari igitanda kiza cyane umurwayi aryamaho, ndetse ibyuma by'ikoranabuhanga bikamureba, bikamusuzuma ,bikamenya uburwayi afite.

Umusore wakoze siporo agira amagufa akomeye ndetse bikamurinda indwara zitandukanye, nko kuvunika bya hato na hato cyangwa kuribwa imitsi ndetse no kuyirwara.

Gukora siporo ni ibintu by'ingenzi cyane kuko bifasha umuntu uwo ari we wese kugira ubuzima bwiza haba ubwo mu mutwe ndetse n'ubw'umubiri usanzwe.

Muganga ari gupfuka umurwayi, uyu murwayi yari afite igisebe none muganga amaze kumupfuka agiye kumufasha kumuha imiti.

Kurya imbuto nk'inkeri ndetse n'amapera n'izindi nk'indimu, n'amaronji ni imbuto zishobora kugufasha kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Hari inyungu nyinshi ziva mu gukora imyitozo ngororamubiri. Harimo kugabanya siteresi, harimo kongera imbaraga mu mubiri wawe, kwirinda umuvuduko w'amaraso ndetse no kurwanya umubyibuho ukabije.

Ibikoresho byo kwa muganga birimo nk'impakasi ndetse n'bindi, bibikwa ahabugenewe kugira ngo igihe umuganga abikeneye abibone mu buryo bworoshye.

Umukobwa wambaye ipantaro imufashe, uri gukora siporo ndetse yambaye agasengeri k'umweru, yambaye ibirenge, ari gukora siporo kugira ngo agorore umubiri we.

Kunywa amazi ni ingenzi mu buzima kuko bifasha umubiri gukora igogorwa ndetse bigafasha impyiko kuyungurura amaraso zitananiwe.

Gukora siporo ngororamubiri ni ibintu by'ingenzi cyane kuko bituma amagufa akomera ndetse umuntu ntarwaragurike.

Muganga wambaye ibaji ndetse akaba ari gupfuka umurwayi. Umurwayi ushobora kuba yagize ikibazo cyo kuvunika kuko bari ku muzengurutsaho bande.

Gukora siporo ngororamubiri bifasha umuntu gukomeza imikaya ndetse no gufasha amaraso gutembera neza, bityo akagira ubuzima buzira umuze.

Umusore wifashe mu mutwe wambaye isengeri ndetse wasobekeranyije intoki, akaba yambaye n'isaha nziza, aho avuye muri siporo kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umuganga ari gukoresha icyuma gipima umwana kugira ngo arebe ikibazo afite mu kanwa, kubera ko yaje kwivuza indwara zo mu kanwa.

Amazi meza y'urubogobogo ari mu gacupa keza ka pulasitike gapfundikije umufuniko w'ubururu, ni amazi umuntu wese yanywa akagira ubuzima bwiza.

Umuntu ufite igisebe, akaba yapfutswe, ndetse akaba afashe ku gipfuko, kugira ngo amaraso ataza gukomeza kuva.

Kwa muganga haba ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye, byifashishwa mu buvuzi bw'abarwayi kugira ngo hatagira umurwayi ucikanwa atavuwe.

Iyo wakoze siporo ukananirwa ni byiza kurya imbuto nk'imineke pome, kokombure, ndetse ukarya n'indimu.

Igihe cyose ukoze siporo ukananirwa, ni ngombwa ndetse birakwiriye kurya ibi bintu: pome, agasenda, avoka, inyanya, karoti, ndetse n'imboga z'ubwoko butandukanye.

Umuntu ukora siporo ngororamubiri afasha umubiri we kwirwanaho ndetse no gukomera, by'umwihariko bikamurinda indwara zitandukanye zifata umubiri w'umuntu.

Umusore ukora siporo zo guterura ibyuma, usanga afite agatuza gakomeye ndetse akaba afite ukuboko kunini, gushobora guterura ibiro byinshi.

Ni byiza ko ukora siporo, ariko igihe umaze gukora siporo nanone ujya kwa muganga. Kwa muganga haba ibikoresho byinshi bifasha abantu by'umwihariko abakeneye serivisi z'ubuzima.

Umusore wambaye ekuteri ndetse akaba ari gukora siporo ngororamubiri, aho amanura amaboko ayakoza ku maguru, yarambuye neza cyane amaguru ye kugira ngo bimufashe kwita ku buzima bwe.

Kwa muganga imbere mu nyubako hari icyumba cyihariye, iki cyumba kirimo intebe ndetse kirimo n'ibitanda biteye ukwabyo kubera uburyo abarwayi babyicaramo cyangwa babiryamamo bari kwisuzumisha.

Umuntu wakoze siporo ashobora kuvunika. Igihe cyose uvunikiye muri siporo gerageza wihutire kujya kwa muganga maze bagufashe.

Umwana w'umukobwa ari muri siporo. Afite ikintu gifite ibiro byinshi cy'icyuma ari kugenda asunika, akijyana imbere yongerakigarura, bityo bikamufasha kugororoka.

Korogate ndetse n'indi miti itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye ndetse hakaba hari na ga umuntu yambara kugira ngo atange imiti neza.

Umusore w'intarumikwa ari muri siporo, yambaye agapira k'umukara, ndetse yambaye akakabutura kagufiya, yambaye inkweto zifunze neza,, ariko kuzamura amaguru agenda ahagarara hejuru ku kintu, yongera amanuka.

Akagare k'umuntu ufite ubumuga ni akagare gafasha uyu muntu kugenda ndetse kakamufasha kugira ngo abashe gushyikirana n'abandi.

Umusore wakoze siporo ngororamubiri, aragororoka ndetse ntabwo apfa kurwaragurika bitewe n'uko aba yafashije umubiri we kugira ubudahangarwa bukomeye.

Kwa muganga haba burankari, akaba ari ingobyi ntoya itwara abarwayi, ibakura ahantu hamwe ibajyana ahandi.

Ni byiza kunywa amazi igihe umaze gukora siporo, mu rwego rwo kugira ngo ufashe umubiri wawe gutakaza isukari ndetse ufashe n'impyiko kugira ngo zibashe kuyungura amaraso neza nta mbogamizi.

Gukora sisiporo mu buryo butandukanye bifasha umubiri w'umuntu kugira imbaraga, gukomera ndetse no gukomeza kwirinda indwara zitandukanye.

Gukora siporo zitandukanye bifasha umubiri w'umuntu gukomera no kwirinda indwara zitandukanye zifata umubiri w'umuntu udakora siporo.

Ni byiza ko igihe umaze gukora siporo unywa amazi meza asukuye kugira ngo ufashe umubiri wawe kongera kugarura imbaraga watakaje, by'umwihariko agafasha impyiko kuyungurura amaraso neza.

Gukora siporo ukina umupira w'amaguru ni byiza cyane kubera ko bigufasha mu buryo bwose, haba kurambura imitsi ndetse no gutekereza byihuse.

Gukora siporo ni ingenzi cyane ariko rimwe na rimwe tugomba kugira n'ibidufasha gukora izo siporo ndetse dushobora gukina umupira w'amaguru cyangwa tugakoresha ubundi buryo.

Ni byiza kunywa amazi meza igihe cyose umaze gukora siporo, kuko bifasha umubiri wawe kongera kugira imbaraga ndetse bigafasha impyiko mu kuyungurura amaraso.

Kwa muganga bashobora kugutegeka cyangwa kugusaba gukora siporo, mu buryo butandukanye ndetse bikaba byagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi.

kwa muganga haba ibikoresho by'ikoranabuhanga ibi bikoresho byifashishwa mu gusuzuma abarwayi ndetse no gushaka ibisubizo bikwiriye byagendana n'indwara zabo

Ububiko bw'imiti. N'ahantu habugenewe habikwa imiti itandukanye. Imiti ifunze mu bikarito, mu macupa ndetse no mu bundi buryo. Yose iba ibitswe muri ubu bubiko bwagenewe kubikwamo imiti.

Amacupa menshi atandukanye arimo imiti ya gakondo yatunganijwe neza, ikaba inyobwa ndetse ikaba ari imiti ifasha mu buvuzi butandukanye.

Uruhurirane rw'imiti itandukanye ya gakondo mbese imiti izwi nk'imiti ya kinyarwanda, ikaba yaratunganyijwe igashyirwa mu ducupa dutandukanye.

Isekuru ni kimwe mu bikoresho byifashishwa mu gusekura imiti itandukanye ya gakondo, aho bayikura mu bihuru ndetse n'ahandi hatandukanye, bakaza bakayisekura bakayitunganya.

Muganga wa gakondo ni umuganga ukoresha imiti itavuye mu nganda, ahubwo we asoroma imiti ku bimera bitandukanye cyangwa agakoresha imizi yabyo hanyuma agakora umuti uvura indwara runaka.

Uruhurirane rw'imiti ya gakondo itandukanye, yashyizwe mu macupa y'umweru ndetse n'ay'umukara ariho ibirango bigaragaza uko ikoreshwa.

Umuti ukomoka ku bimera wa kinyarwanda ukaba upfunyitse mu gacupa k'umweru, handitseho inyuma uburyo ukoreshwa ndetse n'ikimera wakozwemo.

Amacupa atatu y'umweru apfundikije imifuniko y'umweru, yegeranye n'irindi cupa rinini rirerire ariko rifite agakondo, aya yose arimo imiti ya gakondo.

Imiti ya gakondo ni imiti itunganywa ndetse igashyirwaho uburyo bwo kuyikoresha, ikabikwa neza, ikifashishwa mu buvuzi busanzwe.

Akavido gatoya ndetse wakita nk'agacupa gapfundikije umuvuniko w'umutuku, karimo umuti wa gakondo, ukomoka ku bimera bitandukanye.

Igisubizo kuri amibe, reyishi ni yo yonyine ishobora guhangana na amibe ku kigero cyo hejuru, uyu ni umuti gakondo ukomoka ku bimera uvura indwara y'amibe igakira burundu.

Amacupa y'umweru apfundikije imifuniko y'umweru, yanditseho amagambo ndetse n'imibare igaragaza uburyo imiti irimo ikoreshwa.

Umuti wa gakondo ukoreshwa mu buryo butandukanye, haba ku bakuze ndetse no ku batoya, by'umwihariko ukaba ukunze kubafasha mu bibazo bitandukanye.

Uducupa turimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo aho bavura indwara zitandukanye, kuri utwo ducupa hashushanyijeho ikimera kizwi nk'igikakarubamba kivura indwara nyinshi cyane zigiye zitandukanye, harimo n'amahumane.

Uruhererekane rw'imiti itandukanye yatunganyijwe igashyirwa mu macupa apfundikiye neza, ndetse no mu buritiro bw'umuhondo, ndetse n'ubw'umweru kugira ngo itangirika.

Ikimera kiyiza cyane ikimera gitoshye, ikimera kigira umuti, umuti uvura. Umuti uvura indwara zitandukanye ukaba witwa umuti wa gakondo.

Imiti ikomoka ku bimera yatunganijwe ishyirwa mu macupa ndetse yifashishwa mu buvuzi butandukanye bwemewe na leta.

Imiti ikomoka ku bimera bitandukanye, yatunganyijwe neza ndetse igatunganywa mu buryo butandukanye, ifasha mu kuvura indwara zirimo nk'imivuduko y'amaraso n'izindi.

Amacupa menshi cyane arimo amagufi, amaremare, arimo imiti ya gakondo yakomotse ku bimera ndetse no ku bindi bihingwa bitandukanye.

Amacupa atandukanye ndetse atahuje ingano akaba arimo imiti ikomoka ku bimera ndetse akaba yanditseho n'imikoreshereze yayo.

Imiti gakondo itandukanye ituruka ku byatsi byumye, imizi y'ibiti, ndetse n'ibindi bitandukanye ikaba ari imiti yifashishwa mu buvuzi bugezweho.

Imiti ikomoka ku bimera, ni imiti myiza cyane, ivura indwara zitandukanye, zirimo nk'iz'umwijima, ndetse n'izindi.

Hari umuti ukomeye cyane wa gakondo uyu muti ukaba uvura indwara ikomeye cyane ikunze kwibasira abagore.

Mu bihuru ndetse no mu mashyamba, ni ho haboneka ibyatsi byifashishwa mu gukorwamo imiti ya gakondo itandukanye kandi ikaba ari imiti ifasha mu buvuzi rusange.

Uducupa tubiri tw'umuhondo dupfundikije imifuniko y'umutuku tukaba turimo imiti ikomoka ku bimera yatunganyijwe ikaba ari imiti izwi nk'iya gakondo.

Imiti gakondo ndetse bamwe bakunze kwita imiti ya kinyarwanda ikoreshwa mu buvuzi bwa gihanga n'imiti ikomoka ku bimera ndetse ikaba ari imiti ikunze kuvura indwara nyinshi.

Imiti gakondo niyo ikunze kugaragara nk'imiti ikomoka ku bimera, nyamara imiti myinshi yo kwa muganga nayo ikomoka ku bimera.

Imiti itandukanye ifunze mu macupa apfundikijwe imipfundikizo y'umuhondo ndetse hakaba hateretse icupa rinini ry'icyuma na ryo ririmo indi miti.

Umuganga uvura indwara akoresheje imiti ya gakondo ari mu gihuru ari gusoroma imiti itandukanye kugira ngo ajye kuyifashisha avura abarwayi.

Tungurusumu, amagi, ndetse n'umuravumba, n'ibintu bishobora kugufasha kwirinda indwara zimwe na zimwe nk'inkorora ndetse n'izindi zoroheje.

Amacupa abiri y'umuhondo manini, apfundikije imifuniko y'umukara n'andi abiri ari iruhande rwayo matoya apfundikije imifuniko y'umweru, akaba arimo imiti ikomoka ku bimera izwi nk'imiti ya gakondo.

Imiti myinshi ivura ubwonko, ikaba ari imiti ikomoka ku bimera bitandukanye ndetse ikunze kuba iri mu ducupa tw'umweru dupfundikije umufuniko w'umweru.

Amacupa abiri y'umuhondo apfundikijwe imifuniko y'umukara, ashushanyijeho icyatsi kibisi, bivuga ko imiti irimo ari imiti ikomoka ku bimera.

Umuravumba n'ikimera cyiza cyane, ku buryo cyifashishwa mu buvuzi butandukanye harimo nko kugifata ukagishyira mu mazi ukayanywa.

Imiti itandukanye ikomoka ku buki, ni imiti yifashishwa mu buvuzi bw'indwara nyinshi ndetse ikaba ikoreshwa n'abaganga ba gakondo.

Amacupa atatu arimo imiti itandukanye ya gakondo inyobwa, aya macupa akaba inyuma handitseho uburyo iyi miti ikoreshwa.

Uruhererekane rw'imiti itandukanye ifunze mu macupa apfundikiye neza amagufi n'amaremare, ay'umweru ndetse n'ay'umutuku, yose akaba arimo imiti ya gakondo.

Ibimera bitandukanye nibyo bikunze kuvamo imiti ya gakondo kandi iyo miti ifasha mu buvuzi bw'indwara zitandukanye by'umwihariko iz'amarozi.

Uru rubuto rwitwa ipapayi, ni urubuto rwiza cyane ruryohera kandi mo imbere rugiramo utubuto dutoya.

Ibyatsi bitandukanye, ndetse n'ibimera bivamo imiti ya Kinyarwanda, ndetse bamwe bakunze kwita imiti ya gakondo, ikaba ari imiti igira uruhare mu kuvura indwara zitandukanye.

Ikimera gitandukanye cyane n'ibindi bimera kizwi mu ndimi z'amahanga nka shufure, ni ikimera cyifashishwa mu buvuzi gakondo.

Akabati karimo imiti itandukanye, iri mu ducupa dutoya n'utunini, utwa purasitike ndetse n'utundi tw'ibyuma.

Voka ni urubuto rwiza cyane rufitemo ubwarwo ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye, ndetse rukaba ari urubuto rwiza cyane ruryoha.

Umuravumba ni ikimera gikunze kwifashishwa n'abantu benshi mu rwego rwo kwivura indwara zitandukanye singombwa kuwukoresha mu buryo bukomeye kuko ushobora no kuwukoresha mu buryo bworoheje.

Hari ibimera bitandukanye bivura indwara zitandukanye. Ibi bimera hari uburyo bwo kubisigasira babifata bakabishyira ahabugenewe, hanyuma bakazabihinga mu murima umwe.

Uruhererekane rw'amacupa y'umukara, ay'umweruru apfundikijwe imifuniko itandukanye akaba ari amacupa arimo imiti yose ikomoka ku bimera izwi nk'imiti ya kinyarwanda cyangwa imiti ya gakondo.

Akantu kameze nk'agakarito ka mpande ye kanditseho ngo aliyanse, kakaba gakubiyemo imiti itandukanye ikoreshwa cyane cyane mu buvuzi gakondo, aho buvura indwara zitandukanye by'umwihariko nk'amarozi.

Ibimera bitandukanye by'umwihariko bikunze kuboneka mu bihuru no mu mashyamba ni ibimera bivamo imiti itandukanye kandi ivura indwara zikomeye.

Ibimera byinshi bitandukanye nka bambubawa ndetse n'ibindi bivamo imiti, ndetse iyi miti ikifashishwa n'abaganga bakoresha ubuvuzi bwa kinyarwanda.

Ibyatsi bifite amababi meza cyane asa icyatsi, umwana ashoboye kuhagera ntamenye ko aya mababi ari meza cyane, akagira ngo n’indabyo, ariko aya ngaya akoreshwa cyane cyane muvuzi.

Ikimera cyitwa umuravumba ni ikimera kigira uruhare mu buvuzi butandukanye, kandi ntibisaba kujya kugitunganya kuko umuntu ashobora kucyitunganyiriza mu buryo bworoshye.

Imiti gakondo ni imiti ivura indwara zitandukanye, ndetse' imiti ishobora kongera ubudahangarwa bw'umubiri, imwe n'imwe muri iyo miti, igira intungamubiri zitandukanye.

Mu by'ukuri ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, gishishikariza abantu bose bakora ibijyanye n'imiti, kuyibika neza mu dupfunyika twabugenewe nko mu makarito ndetse n'ahandi.

Ikimera kirandaranze ndetse gifite amababi atoshye ariko kirambitseho icyuma, ni ikimera cyiza cyane gifasha mu buvuzi.

Uruhurirane rw'ibiti ndetse n'imbuto bikomokaho imiti ya gakondo, se wari uzi ko n'imineke cyangwa se ibitoki bivamo umuti.

Umuravumba ni ikimera kimaze kugaragaza ubushobozi buhambaye mu kuvura indwara zitandukanye. Hari abahisemo gukora umushinga wo guhinga iki kimera, kugira ngo abaganga bajye bajya kugishaka bakibone.

Amacupa maremare atandukanye, yanditseho uburyo imiti irimo inyobwa, ndetse hashushanyijeho ikimera yakozwemo.

Imiti gakondo ikomoka ku bintu bitandukanye iratunganywa igashyirwa mu macupa yabugenewe.

Amacupa atandukanye arimo imiti ya gakondo yifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye ndetse by'umwihariko izikomoka ku marozi.

Umuti uva ku kimera cyitwa igikakarubamba, akaba ari umuti uvura indwara zitandukanye, by'umwihariko indwara zidakira.

Ibimera bitandukanye bigira uruhare mu gutanga imiti yifashishwa mu buvuzi bwa buri munsi ndetse akaba, ari ibimera bidapfa kuboneka ahantu hose.

Icupa ripfundikije umufuniko w'ubururu ririmo umuti gakondo unyobwa, akaba ari umuti uvura indwara zitandukanye.

Indimu ni urubuto rugira umutobe mwiza uvura indwara zitandukanye nk'inkorora ndetse n'izindi.

Ibinini bipfunyitse mu gashashi kabugenewe, n'ibinini byakomotse ku kimera kandi bikaba bivura indwara zitandukanye.

Imiti yakomotse ku ibimera itandukanye, izwi nk'imiti ya gakondo yatunganyijwe ndetse ishyirwa mu macupa yabugenewe kugira ngo itangirika.

Ikimera cyitwa bambuba ni ikimera kizwiho kurura cyane ariko kikaba kivura indwara zitandukanye nk'isereri, umuriro n'izindi.

Uruhererekane rw'imiti myinshi itandukanye, iri mu macupa atandukanye, bikaba biri mu bubiko bwiza cyane bugezweho, bwagenewe kubikwamo imiti ya gakondo.

Amacupa y'umweru ndetse n'igikarito kinini kirimo imiti ikozwe mu buryo bwa gakondo ikaba ari imiti myiza cyane.

Ibimera bitandukanye bivamo imiti ndetse akenshi iyi miti ivura indwara nk'inkorora ndetse n'izindi ndwara zikomoka ku marozi.

Ibimera nka Bambuba ndetse n'ibindi byinshi, bigira uruhare mu kuvura indwara zitandukanye. Ndetse iyi ngiyi ikaba ari imiti ya gakondo, izwi nk'imiti ya Kinyarwanda ikunze kwifashishwa n'abantu batuye mu cyaro.

Umuramvumba ni kimwe mu byatsi bikunze kwifashishwa mu buvuzi bw'abanyarwanda by'umwihariko ubuvuzi bwa gakondo.

Imiti gakondo ni imiti ivura indwara zitandukanye ndetse kuri ubu ngubu isigaye yaremejwe nk'imiti ikoreshwa mu buvuzi busanzwe.

Ibimera bitandukanye, byifashishwa mu gukora imiti yo mu buvuzi bwa gihanga, ndetse n'ubwa gakondo.

Imiti ya gakondo ni imiti itunganywa ndetse ikunze kubikwa mu macupa, rimwe na rimwe usanga hari amasoko ayicuruza, hari abantu bakora ubucuruzi bw'iyi miti.

Uruhererekane rw'imbuto zitandukanye, zirimo inanasi, imineke ndetse n'izindi, ni zimwe mu mbuto zifitemo imiti ishobora gufasha umurwayi.

Ibimera byo mu Rwanda bitandukanye, bigira uruhare mu kuvura ndetse bikaba bizwiho gukoreshwa n' Abanyarwanda benshi.

Ubuvuzi gakondo ni bumwe mu buvuzi bumaze gutera imbere mu Rwanda, aho usanga abaganga bavura indwara zitandukanye kandi bakaba bemewe na Leta.

Amacupa ya purasitike, apfundikije imifuniko y'ubururu, akaba arimo imiti ya gakondo ikomoka ku bimera bitandukanye ndetse n'ibindi.

Imiti gakondo yashyizwe mu dupfunyika twabugenewe turimo amacupa, ibikarito ndetse n'utundi dusanduku twabugenewe, twanditseho uburyo ikoreshwa.

Uruhererekane rw'ibimera bitandukanye by'umwihariko ibyatsi ibi ngibi bigira uruhare mu gukora imiti ya gakondo yifashishwa mu buvuzi butandukanye.

Imiti gakondo, iba iri mu bikoresho bitandukanye, nk'udukombe dushushanyijeho ikimera uwo muti uri mo ukomoka ho.

Icupa ry'umweru ryanditseho amagambo agaragaza uburyo umuti urimo ukoreshwa ndetse n'uburyo wakozwe, akaba ari umuti uvura indwara nyinshi zitandukanye.

Imiti gakondo n' imiti itarakunze gukoreshwa mu buvuzi bwa gihanga bugezweho ariko ubungubu irakoreshwa ndetse muganga uyikoresha asaba icyemezo kimwemerera kuyikoresha.

Imiti gakondo ikomoka ku bimera, ifasha mu buvuzi butandukanye ndetse rimwe na rimwe kwa muganga barayemera ndetse bagasaba abarwayi kuyikoresha.

Imiti gakondo iratunganywa igakorwa mu buryo butandukanye ndetse ikabikwa mu bikoresho byabugenewe kugira ngo itangirika bityo igatakaza ubushobozi bwo kuvura.